Abantu babiri birabura umugore n'umugabo bari mu modoka ifunguye hejuru bari kugenda mu muhanda mugari, ikigo cy'ubwishingizi bita radiyanti kibibutsa ko bagomba gushaka ubwishingizi.

Abantu babiri, umugabo n'umugore, umugabo yazamuye umwana mu kirere, izuba riri kurenga, ikigo cy'ubwishingizi cya RADIANT kiri kwibutsa abantu ibyiza byo gutunga ubwishingizi.

Abagore babiri birabura bafite ibyishimo ku maso yabo ndetse bari guseka, umwe yambaye ikote risa umweru undi yambaye ikote risa umukara. Uwambaye ikote risa umweru ari gusuhuza undi muntu wambaye ikote risa ubururu.

Icyapa gisa umweru n'umutuku, hashushanyijeho imbwa yo kwamamaza ubwishingizi bw'ibinyabiziga ndetse n'ingo, handitseho aho wakura ayo makuru ndetse n'icyo bigusaba kugirango ubone ubwo bwishingizi.

Icyapa kiri mu muhanda, gisa ubururu, cyanditseho ubwishingizi bw'ibinyabiziga, kigaragaza aho wakura ubwo bwishingizi, icyo bigusaba, n'icyo uzagenda witwaje, kugira ngo ubone ubwo bwishingizi.

Imodoka yikoreye indi modoka yakoze impanuka ikigo cy'ubwishingizi cyitwa buritamu, kiri kukubwira ko mu gihe wayizeye ntacyo uzayiburana ko buritamu ari inshuti y'ibihe byose.

Gura ubwishingizi bw'ingwate ku bapiganira amasoko atandukanye, uhabwa n'ikigo cy'ubwishingizi bita radiyanti, aho bakubwira ko isezerano ari isezerano ikigo cy'ubwishingizi cya radiyanti.

Umukobwa wicaye hasi yazinze amaguru, amaboko yayarambitse ku mavi ye, yafunze amaso yambaye imyenda y'abakora imyitozo, uyu akaba ari umunsi wahariwe kuruhuka no kwiyitaho.

Urupapuro ruhabwa na banki yawe rukwereka ukuntu amafaranga yawe ari muri banki wagiye uyakoresha n'igihe wayakoreshaga.

Akabati gasize ibara risa umweru hagiye harimo ibintu byinshi bya kinyarwanda bitandukanye, yaba ari inkoko. Inyuma y'akabati hari igikuta gisize ibara ry'umweru hagiye haciyemo imirongo y'umukara izengurutse nk'inzoka.

Inzu yubatswe n'amabuye ifite imyenda ya kinyarwanda imanitse hanze ndetse n'indi iri kumezaza y'imitako, kuruhande hari inzu umuryango urangaye irimo indi mitako myinshi yakorewe m'u Rwanda.

Umukobwa wirabura wambaye umupira w'umukara uhagaze mu nzu, imbere ye hari imeza iriho impano nyinshi ari kugenda afungura imwe ku yindi inzu isa ibara risa shokora.

Inzu isize ibara risa umweru ifite ibyuma bigiye bimanitseho imyenda, mu nguni zayo harimo ibyuma bifata amashusho hari ameza ariho amasakoshi n'indi mitako.

Abagabo babiri umwirabura n'umuzungu umwirabura yambaye ishati y'ubururu bwerurutse na karuvati umuzungu yambaye ikositimu y'ubururu bwijimye ishati y'umweru umwe imbere bari mu iduka umwirabura ari kwereka ibintu kuri murandasi iri imbere yabo.

Akabati karimo imyenda y'abagabo ariyo yiganjemo, hari amashati amanitse ndetse n'ingofero ziri mu tubati, hejuru hari amakoti.

Iduka rifite amakote amanitse hejuru y'ubwoko butandukanye ari gucuruzwa imbere yayo hari amatara ari kumurika yo.

Akabati gafashe ku gikuta gafunguye, akabati kamwe karimo igikapu kiriho umuntu ufite amasunzu ikindi ariho igikapu kiri umukobwa, igikapu gisa icyatsi cyerurutse ari igikapu gisa umukara ndetse n'igisa ikigina.

Iduka ricuruza imyenda y'abagabo amapantaro azinze neza kandi agatondekwa ku murongo, akarambikwa ku meza hari ibikapu bimanitse nabyo bicuruzwa, hamwe n'imipira nayo imanitse.

Imodoka yirabura ifite amatara rimwe rimwe kuri buri ruhande yitwa vogisi wageni pasa bibiri na cumi na gatandatu igurishwa ku giciro cy'amafaranga miliyoni cumi na zirindwi z'amafaranga y'Amanyarwanda.

Imodoka ifite ibara risa umukara, ikagira amatara abiri hejuru yitwa Toyota Cross Hybrid ya bibiri na makumyabiri na kane, igurishwa miliyoni mirongo itatu n'umunani n'ibihumbi magana atanu y'amanyarwanda.

Abagabo batandatu batanu muri bo bahagaze imbere, umwe muremure ahagaze inyuma yabo, batatu muri bo aribo bari no hagati bafite udukapu dusa, hirya yabo hari imodoka isa umweru.

Abagabo babiri b'abirabura, bose bambaye amashati ageze ku maboko n'amapantaro, n'inkweto zifunze bose bari guseka, bahagaze hino y'imodoka isa umweru, bafite urufunguzo runini mu ntoki zabo zombi.

Abagabo babiri birabura bahagaze bafashe urufunguzo runini rwanditseho akagera, umwe yegamye ku modoka y'igikamyo ifite ibara ry'umweru ihagaze.

Imodoka y'umukara ifite amatara ane, abiri matoya n'abiri manini yose asa umweru, ijyamo abantu batanu y'ubwoko bwa yundayi kereta bi biri na cumi n'icyenda igurishwa miliyoni cumi ne eshanu.

Abantu bane, harimo umwirabura n'abazungu babiri umugabo n'umugore w'umugore utwite umugabo ateruye akana, mu biganza bye bafashe urufunguzo runini vanisa Akagera, hirya yawo hari imodoka yirabura.

Ikinyabiziga gisa ibara ry'umweru, hegamye umuntu kuri iyo modoka wambaye umupira w'umweru ndetse n'agapfukamunwa, hirya yayo hari indi modoka na yo isa umukara.

Ikinyabiziga gihagaze mu mbuga ngari, kitwa toyota rava fo hayiburidi, bibiri na cumi na karindwi, ifite ibara risa umweru gifite amatara ane, abiri yo hejuru manini n'andi abiri matoya yo hasi.

Inzu irimo ameza y'kirahure iteretseho amazi yo kunywa ari mu gacupa, imbere y'iyo meza hari imodoka y'igikamyo isa y'ibara ry'umweru, ku rundi ruhande nabwo hari indi modoka y'ikamyo isa nayo umweru.

Abagabo babiri bafashe urufunguzo rumwe runini inyuma yabo hari ikimodoka kinini k'igikamyo gihagaze gifite ibara risa ubururu, nta bintu gifite gihetse cyangwa kiri gukurura.

Ibiganza by'umwirabura birambitse ku meza, afite amafaranga y'abamanyamerika mu biganza bye, ku ruhande rwe hari andi mafaranga ari mu mufungo, hirya ye hari n'icyuma kibara amafaranga.

Ibiganza byirabura byambaye isaha ya zahabu ku kuboko kumwe, bifite inzara ndende bifite amafaranga y'amanyamerika hamwe n'ay'amanyakenya.

Imeza iriho amafaranga menshi bagiye bakora umufungo buri mufunga ugiye uzirikishijweho fimbo hirya yayo hari icyuma kibara ayo mafaranga hari n'impapuro nazo ziriho amagambo.

Abantu babiri bicaye hagati yabo harimo imeza irambitsweho amafaranga menshi agiye ari mu matsinda, umwe afite amafaranga mu ntoki ari kuyabara.

Ikiganza cy'umwiraburakazi cyambaye impeta, imbere ye hari mudasobwa irambitseho amafaranga y'abanyamerika, ku ruhande ikiganza cye gifashe amafaranga y'amanyakenya menshi azirikishijwe n'umushumi.

Igiceri cy'icumi cy'u Rwanda cyavuyeho cya kera igice kimwe hariho umubare icumi hamwe mu rurimi rw'igifaransai ikindi gice hariho amasaka ndetse n'igihe cyakorewe.

Abantu babiri batandukanyijwe n'idirishya ku ruhande rumwe harimo umugore wambaye agapfukamunwa ku rundi ruhande hari umugabo wirabura ufite amafaranga ari kubara mu ntoki afite n'ikaramu imbere yari mudasobwa.

Umugabo w'umwirabura udafite umusatsi, ufite umupira w'umutuku ku rutugu rwe, imbere ye hari umukozi wa banki ya Kigali arikubara amafaranga umukiriya arangije kumuha ngo arebe niba yuzuye, imbere ye hari mudasobwa.

Ibiraha bitanu, bibiri muri byo byariweho, kimwe cyarumweho cyane hasigaye gato, ikindi cyarumweho gake inyama ziri kumeneka hasi, biteretswe ku meza y'umweru.

Iduka ricuruza ibiribwa, hari ikigunguru kibamo amata akonje acuruzwa, imbere hari akabati kabonerana, kerekana ibyo gafite, birimo nk'imigati, ndetse hari n'intebe n'imeza byo kwicarwaho.

Umwana w'umukobwa wirabura uri kunywa amata avangiye yo mu nganda, ayo mata afashwe n'undi muntu w'umukobwa uri kumunywesha uwo mwana w'umukobwa.

Abantu bicaye kumeza ebyiri zifatanye zisize ibara ry'umukara kuri iyo meza hariho ibiryo bitandukanye bigiye biri ku masahani.

Abana babiri b'abahungu, bari kunywa amata, bafite imigati, mu biganza byabo, hahagaze umugabo urangije kubaha ibyo kunywa, no kubabaza niba hari ikindi bakeneye.

Umuntu wirabura wicaye ku meza isa umweru afite igikombe gisa umweru kirimo amata n'isahani iriho umugati nayo isa umweru ,imbere ye hari undi muntu uhagaze wambaye ipantaro isa umuhondo.

Abantu batatu bahagaze mu nzu umukobwa umwe yicaye, undi mukobwa amuhagaze amwegereye, imbere yaho hari amameza abiri ariho ibyo kurya bitandukanye, hari capati, hari n'ibyo kunywa, undi muntu ahagaze ari kureba hanze mu idirishya.

Ikigunguru kinini gikozwe mu cyuma, gifite umwenge munini uri hejuru, hahagaze umuntu ufite igicuba ari gushyira amata yari ari muri icyo gicuba muri icyo kigunguru.

Ni iduka risize irangi ry'ubururu n'umweru ku gikuta, harimo akabati karimo amazi yo kunywa afunze, hirya yayo hari ikigunguru kirimo amata cyanditseho Mukamira amata meza.

Umugore wambaye ikanzu y'ubururu afite n'igitambaro mu mutwe, ahagaze imbere y'akabati karekare gasa umweru kabonerana bashizemo ibirahure mu imbere y'ibirahure harimo ibyo kunywa bitandukanye ndetse n'ibiribwa.

Isoko ryubakiye ririmo ibiribwa bitandukanye bari gucuruza; ibyubaka umubiri, ibirinda indwara, ibitera imbaraga byose birimo, ni byiza kubirya harimo intoryi, harimo inyanya n'ibindi nk'ibitoki n'ibindi birahari

Abagabo babiri birabura, bose bafite telefone zabo mu biganza byabo bari kuzikoresha. Umwe yambaye umupira wanditseho Rwanda.

Urupapuro ruhabwa na banki yawe ruguha iyo ushaka kumenya uko amafaranga yawe yinjiye ndetse akanasohoka muri banki yawe ndetse n'igihe byaberaga.

Icyemezo cyemeza ko utabamo cyangwa udafite umwenda w'imisoro, gihabwa n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro, kiba kigaragaza itariki wahawe, n'itariki wagihawe, n'izina ryawe.

Urupapuro rutangwa na banki ya Kigali ruhabwa n'umuntu bimwereka uko yakoresheje amafaranga ye muri icyo gihe yasabye runaka.

Urupapuro rutangwa n'ikigo cy'imisoro n'amahoro cyo mu Rwanda, kikwereka ko warangije kwishyura umusoro runaka wawe ugomba kwishyura.

Urupapuro rugaragaza ibyinjiye n'ibyasohotse cyangwa ibyakozwe kuri tariki icumi z'ukwa munani bibiri na makumyabiri na kane saa munani iminota makumyabiri n'umunani n'amasegonda cumi na rindwi kuri banki ya Kigali.

Inote y'icumi y'amafaranga yo mu burayi arambitse ku meza isa ibara ry'umweru nta kindi kintu ari kumwe nayo.

Inote z'amafaranga y'amanyamerika nyinshi zishashe ku meza, hejuru yayo hateretseho inote y'amafaranga y'amashinwa ishushanyijeho umugabo.

Umuntu ufite amafaranga menshi mu biganza bye y'amaturukiya y'inote y'ijana, imbere ye hari imeza iriho amafaranga y'abanyamerika, hejuru yayo harambitseho andi mafaranga y'amaturukiya y'inote za magana abiri azingishijwe na fimbo.

Abantu babiri b'abazungu, bahagaze batandukanyijwe n'ikirahure, munsi yabo hari umwanya muto wacishamo ukuboko, umwe afite amafaranga mu kuboko kumwe y'abanyamerika, mu kundi y'abanyakenya, undi ari kwakira amafaranga bari guhererezanya.

Umugabo wicaye wirabura imbere ye hari imeza iriho amafaranga agiye azinze umufungo, afite andi mu ntoki ari kugenda ayabara.

Inote y'igihugu cya Congo ifaranga rimwe, uruhande rumwe hariho abagabo batatu bambaye amapingu bicaye hasi, urundi ruhande hariho inganda ziri gusohora imyotsi mu kirere.

Umukobwa w'umuzungu wambaye ishati y'umweru n'ijiri y'umukara ufite mubiganza bye amafaranga y'Amashinwa, ukuboko kumwe afitemo inote ukundi kuboko afitemo ibiceri.

Abantu babiri bari guhererekanya amafaranga, umwe ari kumuha amafaranga y'amashinwa undi akamuha amafaranga y'amanyamerika bose bayafasheho.

Iki ngiki ni icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. Ikingiki nuzakibona uri mu muhanda uzamenyeko uwo muhanda urimo uragendamo iburyo n'ibumoso hashamikiyeho utundi duhanda dutoya.

Inoti y'icumi y'amafaranga y'igihugu cya Congo, ariho abantu bashushanyije bafatanye amaboko bari kurebana.

Amafaranga yo muburayi kuva ku icumi kgeza kuri mirongo itanu, icumi risa umutuku, makumyabiri risa ubururu, mirongo risa oranje, zirambitse ku gitambaro gisa umweru.

Iguranishwa ry'amafaranga aho umwe ari gutanga amafaranga bakamuha amafaranga y'abanyamerika banyujije mu kayira gatoya gahari.

inote y'amafaranga y'amakongomani ya mirongo itanu, uruhande rumwe ruriho umugore urundi ruhande rushushanyijeho inyubako, inyuma yazo hari ishyamba ririmo ibiti birebire.

Inote ya makumyabiri y'amafaranga y'amashinwa, isa ibara risa oranje yererutse, ishushanyijeho umugabo w'umuzungu ufite umusatsi uringaniye wambaye ikositimu.

Ibiganza by'umuzungu bifashe amafaranga y'amashinwa mirongo itanu, imbere yaho hari andi y'ijana abitse hari n'ayandi ya maganabiri nayo abitse.

Umuntu ufite amafaranga mubiganza bye, hari inote zijya gutukura n'izindi zijya gusa umuhondo, zishushanyijeho umusaza udafite umusatsi, yambaye amadarubindi.

Abantu babiri batandukanyijwe n'ikirahure kibonerana munsi y'icyo kirahure bashyizemo umwanya wo kunyuzamo ikiganza bari guhererezanya amafaranga y'amanyamerika, hirya y'uwo mugabo uri inyuma y'ikirahure hari icyuma kibara amafaranga.

Televiziyo nini ifashe ku gikuta, munsi yayo hari akabati, nako gafashe ku gikuta, imbere yayo hari ameza ari kumwe n'intebe.

Intebe zikozwe mu giti zisize ibara rya kaki zirimo imisego isa ibara ry'umweru yambaye amashashi hagati yazo hari imeza nayo ikozwe mu giti isa kake.

Mo imbere y'inzu ifite ibishushanyo ku bikuta imbere yaho hariho isaha hari imeza irikumwe n'intebe byegeye ku gikuta, imbere ya hari intebe imwe nini ifite ibara risa ubururu bwijimye biriho imisego.

Inyubako y'ubucuruzi imbere yayo hari intebe zo kwegamaho zifite imisego myinshi ndetse n'imeza zazo.

Imeza ikozwe mu rubaho, isize ibara rya kaki, hejuru y'iyo meza hateretse utumeza duto tubiri, na two tubajwe mu rubaho, ndetse tunasa ibara rya kaki.

Igitanda gisa ibara rya kaki, kiriho matora iriho ishashi ndetse n'imisego yayo nayo iri mu ishashi, imbere yayo hari intebe itegomahwo ihari.

Inzu isize ibara ry'umweru ifite amatara menshi ari hejuru, irimo intebe nyinshi zigiye zitandukanye mu bwoko, hamwe nimeza byose ari ibyo kugurisha.

Inzu igeretse isize ibara ry'umweru mu nzu, ifite amakaro hasi, hari imeza yo kuriraho ibajwe mu biti, ifite intebe eshatu ku ruhande rumwe, n'izindi eshatu ku rundi ruhande, imeza ifite ikirahure hejuru.

Inyubako ebyiri zegeranye imwe yubatswe nka mpande enye ifiteho uturongo twinshi tugiye dufite amabara atandukanye, iy'indi nyubako yubatswe nk'ikiziga gifite amabara y'idarapo ry'igihugu ari kumurika.

Umugabo wirabura wambaye imyenda y'abatetsi n'agapfukamunwa ahagaze mu gikoni cy'iterambere, utubati dufashe ku gikuta amameza afite amakaro hejuru arimo ishyiga rikoresha umuriro, imbere hari ibyo guteka by'ubwoko bwinshi ari gukata igitunguru.

Amazi manini yo kongeramo mu mpande zayo hari intebe zigiye zitwikiriye n'umutaka, hagati yazo harimo imeza ku mpande hari n'izindi meza.

Inzu ifite igikuta kimwe, gikozwe mu birahure bibonerana, mwo imbere mu nzu, harimo ameza menshi, agiye ariho intebe ebyirebyiri, ayo meza agiye atandukanye, ku ruhande hari akabati kagufi, inyuma yaho hahagaze umugabo wambaye ijire.

Bugorobye inyubako igeretse imbere yayo hari imbuga iteyemo imeza igiye ifite intebe enye kuri buri meza.

Imeza nyinshi zigiye ziriho intebe enye enye ziteretseho ibyo kurya hirya kuru ruhande hari amazi menshi yo kogamo bitandukanyijwe n'ikirahure kimwe.

Amazi manini yo kogeramo ku mpande zayo hari intebe zo kwicaramo uryamyemo, hakajya ikirahure, hirya y'icyo kirahure hakajya imeza zigiye ziri kumwe n'intebe zifite udutaka.

Inyubako igeretse kabiri nini kandi ngari, ifite igisenge kizamuye kiriho amabati yirabura izengurukijwe n'ibirabo hasi biteye, ifite n'umwanya wo guhagarara ukareba hanze kuri rwego rwa kabiri.

Imbuga ngari ifite amabuye hasi irimo imeza zigiye zizengurutswe n'intebe enye hejuru yazo zikagira umutaka ari mu meza nyinshi zigiye zitandukanye.

Inyubako ndende kandi ngari ifite ibara risa umweru, yiganjemo ibirahure. Imbere yayo hari amazi yo kogeramo, ifite ibiti byinshi by'umutako yaba ari imbere y'iyo nyubako ndetse n'umuzenguruko wayo.

Inzu isize ibara risa umukara, ku gikuta hamanitseho amashusho atandukanye y'inyamaswa, imbere yayo hari imeza iriho ibisorori birimo ibiribwa bitandukanye, ku ruhande hari indi meza iriho imbuto zitandukanye nk'imineke, inanasi n'amaronji.

Inzu ifit mo imbere hasize ibara ry'umweru, ifite televiziyo ifashe ku gikuta, ikagira intebe imwe yo kwegamirwa, ikagira udutebe dutoya dukozwe mu byuma turi imbere, turiho ibirahure.

Inzu igeretse gatatu, imbere yaho hari amabuye asa amabara, aho amabuye arangirira hagahita hajya ubusitani burimo ibiti by'ubwoko butandukanye kandi birebire.

Ubusitani buteyemo intebe n'ameza buri meza igiye izengurukijweho n'intebe enye byose bisa ibara rimwe ari ryo umukara mu busitani harimo indabo nyinshi z'ubwoko butandukanye.

Inzu isa ibara risa umweru ku bikuta ndetse no hejuru, ifite ibishushanyo ku bikuta bigiye bitandukanye, ifite intebe zo kwicaraho mu ruganiriro ikagira isima isa kaki ivanze n'umweru.

Abagabo batatu birabura bicaye kumeza intebe zabo zigiye zihanye umwanya uhagije bambaye ikositimu bari imbere bari kuvuga bafite amazi yo kunywa buri umwe wese imbere ye.

Inyubako ya etaje igizwe n'ibirahure y'ikigo cy'ubwishingizi cyigenga bita radiyanti imbere yaho hashushanyijeho ibishushanyo mu mpande zose, uruhande rumwe hari umugabo uri mu modoka undi urundi ari umuryango.

Inzu mberabyombi irangije gutegurwa igiye kuberamo inama, imbere hari intebe eshanu, buri ntebe hagati hagiye harimo akameza kariho irangururamajwi ndetse n'amazi.

Umugore wirabura uri guseka imbere ye hari imigati myinshi bari kukubwira impamvu ugomba guhitamo gushaka inguzanyo kuri banki y'abaturage.

Umugore uri guseka afite urufunguzo rw'imodoka mu kiganza cye, ahagaze mu muryango wi'modoka, banki yitwa ekobanki iri kukwibutsa ko ushobora kubona inzozi zawe zo gutunga imodoka, mu gihe ukoranye na bo.

Inyubako y'ubucuruzi igeretse kabiri, ifite ubucuruzi butandukanye, hari iduka ricuruza imyenda, hari irindi rifotora, munsi yayo hari banki bita kopedu iherereye Kimironko.

Abantu bari kwifotoza biganjemo urubyiruko barenga icumi, bambaye bose imipira y'icyatsi, yanditseho icyatsi amayaga bambaye udupfukamunwa, harimo ibitsina byombi haba abakobwa n'abahungu.

Itangazo ribwira urubyiruko ribatumira kuza mu kiganiro kizabera mu mugi wa Kigali tariki makumyabiri n'enye z'ukwakabiri kivuga impamvu urubyiruko batagira inzu, cyateguwe na banki ishinzwe iterambere ry'igihugu.

Kwamamaza kwa banki y'abaturage ufite intego yo gukora ubukwe nafungure konti yo kwizagama ya banki y'abaturage, iguheshe inyungu y'umunani ku ijana ku mwaka. Gera ku ntego.

Urupapuro buzuza kugira ngo baguhe inguzanyo kuri banki yitwa I&M, aho utanga imyirondoro yawe yose n'ikiguzi bagusaba.

Abantu batanu harimo umugore umwe n'abagabo bane bose bambaye udupfukamunwa, umugabo umwe uhagaze irimo abakozi ba banki Afurika iherereye mu burasirazuba bw'igihugu. N'abayobozi ba koperative yitwa hirwa.

Umugore w'umwirabura wambaye imyenda idozwe mu bi bitenge by'ubururu mu nda ye afite igikapu yazirikiyemo ku mutwe we afite ibyo yikoreye ari kugenda mu nzira.

Abantu babiri bahagaze umukobwa n'umuhungu hagati yabo harimo imeza iriho ibiribwa harimo igitunguru ndetse n'amavoka. Umukobwa afite igitunguru mu ntoki ari kwereka umuhungu batwikiriwe n'umutaka munini.

Isoko riri kurema buri mucuruzi imbere ye hagiye hari imeza iriho ibyo ari gucuruza, ibintu biri gucuruzwa muri iryo soko harimo inyanya, karoti, ibitunguru, amashu, inanasi.

Isoko ricuruza imbuto, harimo imbuto zitandukanye nk'imineke, inanasi, indimu, amaronji, amatunda, ibinyomoro, imyembe, Amapapayi umugore ahagaze imbere ari gukora mu maronji.

Umugore wicaye w'umwiraburakazi. Imbere ye hari amabase yuzuyemo amafi y'ubwoko butandukanye, ari kugenda ayakuramo ibintu ndetse anayategura kugira ngo abantu bayagure. Inyuma ye hari undi mugore nawe ari gukora nk'ibyo ari gukora. Hirya yabo hari amazi ndetse n'abandi bana.

Isoko rifunguye rifite amabati ategeshejwe n'ibiti hari umugore uri kugura inyanya umugabo azifashe akazishira mu ishashi umugore ari guseka ateze ukuboko ngo azifatate.

Inyubako y'ubucuruzi igeretse gatatu imbere yayo ifite abantu bari gukora ibintu bitandukanye bajya mu mirimo itandukanye no mu byerekezo bitandukanye igiye ifite ibintu byinshi ikora yaba ari imisatsi ndetse n'amacumbi n'ibindi n'ibindi.

Umugore wumumwiraburakazi uhetse umwana afite igitambaro mu mutwe azengurutse ibyo kurya bitandukanye harimo amashu, inyanya, insenda, karoti intoryi.

umugore wicaye ari gucuruza imbere ye hari ibase, irimo amashaza, hari ibase irimo inyanya yuzuye, hari ibase irimo imineke yuzuye, hari umufuka urimo ibishyimbo, hari umufuka urimo uburo.

Inzu ndende kandi ngari y'ubucuruzi, yiganjemo ibirahure, iri hagati mu mujyi, abantu bari kwerekeza mu byerekezo bitandukanye.

Abantu bari mu iduka, batatu ari abaguzi, umwe ari umucuruzi, umugabo umwe afashe telefone, ari kumwereka ko arangije kwishyura amafaranga, abandi bari ku murongo, bategereje ko arangiza, na bo bakajyaho, bakishyura.

Urubuga bita Murukari, aho ugenda ukareba ikintu wifuza kugura ukakishyura, bakakikuzanira aho uri hose.

Amaguru y'umukobwa w'umwirabura wambaye inkweto zifunguye ahagaze, inkweto zigura icumi magana atanu, wazikura ku rubuga bita Kigura, kandi bazikuzanira mu rugo.

Urubuga bita iduka ugura ibintu bakabikuzanira aho buriya bari mu rugo iwawe cyangwa aho uri ku kazi cyangwa ahandi ariho hose ari na nimero wabonaho urwo rubuga.

Umukobwa wirabura ufite telefone mu biganza bye, yafunguye ku rubuga bita vuba vuba aho utumiza ikintu ushaka bakakikuzanira, aho uri yaba ari mu rugo cyangwa ahandi hose ushaka.

Urubuga ndetse n'iduka bita ishyo ricuruza ibiribwa biba byarakorewe mu Rwanda ndetse bakanabikugezaho aho uri hose mu gihe ubishatse.

Igikoni k'iterambere gisize ibara ry'umweru, ku bikuta by'icyo gikoni hafasheho utubati dusa umweru na two munsi y'utwo tubati hari utundi tubati, hejuru y'utwo tubati hariho amakaro.

Inzu ikodeshwa cyangwa igurishwa ifite ubwiherero, ifite amakaro ku bikuta ukagira aho kogera hakingirijwe n'ikirahure.

Inzu isize ibara ryu'umweru, ifite amakaro hasi, igurwa miriyoni mirongo icyenda n'eshanu, y'amafaranga y'abamanyarwanda, iherereye i Kigali.

Inzu ifite igikoni cy'iterambere kandi gifunguye, ikodeshwa ibihumbi magana atanu mirongo itanu, yamafaranga y'amanyamerika, iherereye mu murenge wa Kabeza mu mujyi wa Kigali.

Inzu ifite imbuga, imbere irimo amabuye arimo ibishushanyo, ayo mabuye asa amabara, iri kugurwa miriyoni mirongo irindwi n'ebyiri y'amafaranga y'amanyarwanda, iherereye mu mujyi wa Kigali.

Inzu ifite ubwogero bufite amakaro ku bikuta ifite amazi aturuka hejuru, ndetse n'ubwiherero ukoresha wicaye, ifite amadirishya matoya ari ku ruhande yijizamo urumuri.

Inzu isize ibara ry'umweru mo imbere, ifite igikoni cy'iterambere, ifite imeza ndetse n'intebe, intebe ifite imisego minini, ikodeshwa ibihumbi magana atanu mirongo itanu, by'amafaranga y'amanyamerika, wayibona Kabeza, mu mujyi wa Kigali.

Icyumba gisize ibara ry'umweru ku bikuta, harimo igitanda gisa umukara, kiriho amashuka; bisashe ikodeshwa ibihumbi magana inani, ku kwezi mu mujyi wa kigali.

Inzu igeretse kabiri ifite imiryango igizwe n'ibirahure, imbere ifite ubusitani burimo ibiti, iherereye Kacyiru mu mujyi wa Kigali, ikodeshwa amafaranga igihumbi kimwe na magana atanu ya manyamerika.

Inzu ikodeshwa ibihumbi magana atanu mirongo itanu by'amanyamerika buri kwezi ifite igikoni cy'iterambere gifunguye iherereye mu mujyi wa Kigali, Kabeza.

Inzu igurishwa miliyoni ijana na mirongo itanu y'amafaranga y'amanyarwanda, iherereye mu mujyi wa kigali, ifite igisenge kizamuye ndetse n'amadirishya manini.

Inzu ikodeshwa ibihumbi magana atanu mirongo itanu y'amafaranga y'abanyamerika buri kwezi iherereye i Kigali mu mujyi wa kigali kabeza aho ifite icyumba kimwe n'ubwiherero.

Inzu y'iterambere ifite amakaro y'umweru hasi, ifite n'amakaro ku gikuta, ifite ubwiherero bw'iterambere bwo mu nzu, igurishwa amafaranga miriyoni mirongo irindwi n'eshanu Kabeza mu mujyi wa Kigali.

Inzu ifite igisenge kizamuye kiriho amabati atukura ikagira imbuganga ngari ikagira igipangu igurishwa miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri i Kigali mu Rwanda.

Inzu isize ibara risa umweru mu nzu ifite amatara mu nguni hamwe na rimwe riri hagati rifiteho amatara atanu igurishwa miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri i Kigali mu Rwanda.

Inzu igurwa amafaranga miliyoni mirongo icyenda neshanu, amafaranga y'amanyarwanda, iherereye mu mujyi wa Kigali mu Rwanda, isize ibara ry'umweru, ikagira imbuga ngari wahagarikamo imodoka zawe.

Inzu ifite amabara y'umutuku n'umweru imbere ku muryango aho winjirira ifite ibirabo mu mavaze aba ari inzu ikodeshwa mu gisozi usanga ibintu byose ibifite bi te ibyumba bibiri ndetse n'ubwiherero bubiri.

Inzu yubakishijwe amatafari ifite igisenge kizamuye iri mu gipangu cya yonyine ifite ibyumba bine n'ubwiherero butatu ikodeshwa ibihumbi magana atanu ku kwezi, iherereye i kanombe mu mujyi wa Kigali

Inzu ifite igisenge kizamuye, ifite ibara risa ubururu bwijimye, ikodeshwa, iherereye Kimironko, mu mujyi wa Kigali, ifite ibyumba bitatu ndetse n'ubwiherero bibiri, ku mafaranga ibihumbi magana atatu ku kwezi.

Inzu ikodeshwa iherereye i kanombe mu mujyi wa Kigali, ifite ibyumba bine n'ubwiherero butatu uyikodesha nta gikoresho na kimwe kirimo, ifite imbuga ngari hamwe n'ubusitani.

Inzu ya etaje igeretse kabiri ifite ibyumba bitanu ndetse n'ibiro ikodeshwa ibihumbi bitatu by'amafaranga y'amanyamerika, muri gacuriro agace kambere gafite umutekano muri kigali yose mu rwanda.

Inzu ifite igisenge kitagaragara y'ibyuyumba bitatu n'ubwiherero bubiri ikodeshwa ibihumbi magana atatu iherereye i kanombe mu mujyi wa Kigali.

Inzu nziza ikodeshwa Kimironko kwa Sekimondo, ifite ibyumba bitatu, ubwiherero butatu, kandi buri cyumba igiye ifitemo aho kubika imyenda, inzu isa ikigina ifite n'amabati y'umutuku.

Umugabo uhagaze mu gipangu yerekana inzu ikodeshwa cyangwa igurishwa, inzu ifite amabara atandukanye ubwoko bugera kuri butatu, ifite igisenge kizamuye ahagaze imbere yayo ari kwerekana uko imeze.

Inzu isa umweru ifite amadirishya n'imiryango bisa ubururu bwijimye, ibirahure by'umukara, ifite n'amakaro y'umweru, ifite n'imbuga ngari, ifite ibyumba bitatu, iherereye Kimironko wayibona ku mafaranga ibihumbi magana ane.

Umukobwa wirabura wambaye umupira ufite amaboko maremare asa umweru n'ipantaro y'umukara, ari guseka ari gushyira ibintu ku murongo biri mu kanwa.

Iduka rifite utubati tugiye dufite ibiribwa imbere n'inyuma ha igihe harimo umwanya kugira ngo hajyeho akandi kabati harimo abaguzi bari kugura imbere yabo hari aho wishyurira ndetse hari na mudasumbwa.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye bikoze mu ruhu, yaba ari amakote cyangwa inkweto cyangwa amasakoshi, bigiye bimanitse ku tubati ibindi bimanitse ku byuma harimo abantu bahagaze bari kure ibyo bashaka kugura.

Abantu bahagaze mu iduka ricuruza ibintu bikozwe mu ruhu, hari amakoti amanitse ku biti, hari n'inkweto ziri ku meza, hari n'amasakoshi nayo amanitse ku biti.

Isoko riri mu nyubako; rifite igikuta gisa umweru ndetse n'amatara menshi ari hejuru, ricuruza ibicuruzwa byinshi, hari aho umuntu ahagaze ari kwishyura.

Umusore uhagaze mu iduka rito, hino ye hari imeza ihagaze, imbere ye hari imeza itambitse zose ziriho inkweto zifunguye, inyuma ye hari izindi nkweto zifunguye zimanitse ku gikuta, hirya ye hari imyenda imanitse ayigurisha.

Isoko icuruza ibintu bikoze mu bihu bitandukanye harimo umukandara amasakoshi inkweto zifunze ndetse n'izifunguye hahagazemo abantu barigushaka ibyo abagore bane abagabo batatu n'umukobwa umwe.

Abantu barenga icumi bicaye ku ntebe zitondetse ku murongo, higanjemo igitsina gore hari n'abana bafite ibipapuro bibajyana kwivuza . Bategereje ko babahamagara bakajya kwivuza.

Umugabo w'umwirabura ufite umusatsi muke ndetse n'ubwanwa, wambaye umupira w'umweru wanditseho ikigo gishinzwe ubwiteganyirize, ufite iranguraramajwi imbere ye hari amazi yo kunywa, hirya ye hari umuntu wambaye imyenda y'abashinzwe umutekano w'igihugu.

Ubwishingizi bwo kwivuza burenga mirongo itatu buri kumwe, busa ubururu bwerurutse cyane, bugerekeranye, buri ku meza iriho igitambaro, busa umuhondo, buhabwa n'ikigo gishinzwe ubwiteganyirize bw'abakozi b'igihugu.

Umuntu ufite amakarita y'umunyamuryango mu bwisungane mu kwivuza abiri, ahabwa n'ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda, aho bakubwira ko mu gihe ufite ikarita utagomba kurembera mu rugo.

Raporo ya minisiteri y'ubuzima, kuva n'icyenda kugeza cumi yasinywe n'umuyobozi mukuru ushinzwe minisiteri y'ubuzima bita Agnes Binangwaho yariho kashe ndetse na sinyature ye.

Abantu bicaye mu nzu, bateye intebe igikuta, bari kurebana, hari intebe iri imbere ifite imeza nini iriho igitambaro, hariho umuntu uri kuvuga.

Umugore n'umagabo bose bambaye udupfukamunwa bahagararanye bafashe urupapuro rumwe runini buri umwe wese afashe ku mutwe w'urupapuro, urupapuro rwanditseho Mukanziga Pascal handitseho miliyoni imwe n'ibihumbi maganabiri yahawe ayo mafaranga kubera ubwishingizi bw'ubuzima.

Umugabo g'umwirabura wambaye imyenda yo mu mbeho, yicaye ari kwandika ibintu mu ikayi, imbere ye hari umugore wegamye kuri iyo meza w'umwirabura, hirya yabo hari akabati karimo ibitabo n'impapuro byinshi.

Ibiganza byirabura birambitswe ku meza ikiganza kimwe afitemo mituweli ikindinda afitemo ikaramu ari kwandika imbere ye hari mituweri ku meza hari n'impapuro ziri kuruhande.

Ikarita y'umunyamuryango y'ubwisungane mu kwivuza, intara y'iburasirazuba akarere ka Rwamagana ikaba itangwa n'ikigo gishinzwe ubwiteganyirize, nimero y'iyo karita ikaba ari zeru gatatu zeru rimwe icyenda.

Inyubako isize ibara risa umweru icururizwamo n'iduka bita simba riherereye sonatibe ifite imiryango ibiri yose ifite ibirahuri.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye, hari umukobwa urangije kugura, ajyanye ibintu yaguze kubyishyura, ari gushyira utubido tw'amavuta imbere ku meza, inyuma y'iyo meza hicayeho umuntu uri bwishyurwe ari kugenda amubarira.

Iduka ricuruza ibintu byinshi bitandukanye bamwe bari kugura abandi bari kwifotoza nk'umuryango, abandi bari kunyuraho, abandi bagiye kwishyura ibyo bahashye mu iduka.

Iduka ricuruza ibiribwa hari abantu bari kugura, hari umugabo uri imbere ufite akagare ari kugenda asunika akanashyiramo n'ibyo yaguzi.

Umukobwa wirabura munini ufite ibintu asutse ku mutwe bisa ibara ry'umukara wambaye ijipo ndetse n'ikote ahagaze mu iduka ari gufata ibyo ari kugura.

Inyubako ya etaje igice cyo hasi gikoreramo iduka bita simba riherereye mu Gishushyu. Imbere y'iryo duka hari imbuga ngari irimo intebe zigiye zifite ameza yazo, abantu baza bakicara iyo bashaka kurya.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye, harimo abantu bane bahagaze, ari umusore n'umukobwa begeranye, umukobwa ari kwereka umusore ibintu kuri mudasobwa iri imbere.

Iduka rifite utubati ku bikuta turimo ibyo kunywa byinshi kandi by'ubwoko butandukanye, hagati harimo akandi kabati kariho na ho ibyo kunywa bitandukanye.

Iduka rifite utubati tugiye dufunguye, tugiye duhanye umwanya kugira ngo hajyeho kandi buri kabati kageho kariho ibintu biribwa by'ubwoko bumwe bitondetse ku murongo harimo abantu bari guhaha bafite akagare basunitse bagenda bashiramo ibyo bahashye.